Ku bitaro ni ahantu heza ndahakunda cyane, kuko hagira akamaro kenshi gatandukanye, kubera ko iyo abarwayi barwaye haradufasha cyane, badufasha cyane no kwisuzuma ukamenya niba nta ndwara ufite. Kandi ni heza cyane, baduha n'imiti, kandi bakadufasha no gukingiza abana iyo bafite ikibazo. Niyo mpamvu tugomba kujya twubaha abaganga, kuko ni abantu b'agaciro imbere yacu.

Ubuhinzi bw'ibigori ni bwiza ndabukunda cyane, kuko bugira umusaruro mwiza kandi bukagira n'akamaro kenshi gakomeye, cyane cyane iyo ubuhinganye na avoka, birungura cyane, kandi bikagira umusaruro mwiza cyane, bidufasha cyane mu buzima bwacu bwa buri munsi, kandi bikanavura n'indwara nyinshi ziyige zitandukanye, ariyo mpamvu tugomba kujya turabihinga tunabikunze, kugira ngo dukomeze twunguke umusaruro mwiza.

Ubuhinzi bw'amashyamba ni ikintu cyiza ndagikunda cyane. kuko birafasha muri sosiyete. Kubera ko ari igikorwa cyiza ndabishigikira kubera ko ariho dukura umwuka mwiza wo guhumeka, kandi tukaba tuvanaho n'ibindi bintu byinshi bitandukanye nk'inkwi, ibiti byo kubakisha byose ni ho tubikura.

Imiti gakondo ni myiza ndayikunda cyane kubera ko iradufasha cyane mu buzima wacu bwa buri munsi bitadusabye kujya kwa muganga, kandi igira akamaro gakomeye cyane kurusha biriya binini biba byakorewe mu nganda, ariyo mpamvu abantu benshi basigaye bakoresha imiti gakondo kandi iravura igakiza cyane.

Imiti gakondo ni myiza ndayikunda cyane, kubera ko idufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi, cyane cyane nk'iyo dukeneye kwivura, ni byiza ndayikunda cyane, kandi turakoresha imiti ya kera kubera ko imiti y'ubu nta bwo iba yizwewe neza kuko hari n'andi maporoduwe yaduteza indwara zigiye zitandukanye, n'impamvu imiti ya kera nyikunda cyane, abantu benshi bagomba kujya baiyikoresha.

Ubuhinzi bw'ibinyomoro ni ubuhinzi bwiza ndabukunda cyane. Ibinyomoro ni imwe mu mbuto nziza zikunzwe cyane hano mu Rwanda, kubera ko ziravura cyane, zikiza bwaki kandi zongera n'amaraso mu mubiri w'umuntu. Biradufasha cyane kandi kuvura n'indwara z'bana bato bahuye n'imirire mibi, ari yo mpamvu kurya imbuto z'ibinyomoro ni byiza cyane. Buri muntu wese yakagombye kuzajya azifata.

Imiti gakondo ndayikunda cyane. Cyane nk'umuti wa voka. Voka amababi yayo aba asa n'icyatsi, iyo wayabijije mu mazi meza ukayabiza ukayahumeka wifunze ahantu hose aragufasha cyane. bigufasha gukira indwara nk'ibicurane n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye.